Ahantu heza hateguye neza hariho ameza ateretseho icupa ririmo amazi, abantu babiri bicaye mu tugare tw'abafite ubumuga, bambaye udupira rw'umutuku ndetse n'udupfukamunwa, inyuma yabo hahagaze abagabo babiri.

Muganga wambaye ingofero y'ubururu yambaye n'uturindantoki tw'umweru ndetse n'ishati y'umukara, afashe ku cyuma cyifashishwa n'abaganga igihe bari gutanga ubutabazi bwihuse ku barwayi. Iruhande rwe hateretse agakombe k'umuhondo ndetse n'icupa ry'umweru.

Umugabo muremure ufite uruhara yambaye agapfukamunwa, yambaye umupira w'umutuku mu mugongo ushushanyijeho umusaraba, yambaye ipantaro ndetse n'inkweto z'umukara akaba ari guhereza umugore imyenda itandukanye harimo na matora.

Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'ingofero y'ubururu, yambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afashe ikaramu mu biganza bye, arimo kwandika, imbere ye, hariho imeza ishushanyije iriho amabara y'icyatsi.

Icyumba cyiza giteguye neza cyubatse neza abantu benshi bateraniye hamwe barimo kuganira bambaye amajire y'umutuku mu mugongo ashushanyijeho umusaraba barimo kuvugana barizihiwe ndetse hejuru inzu ifite parafo ikozwe muri terepurekisi.

Umurwayi wambaye imyenda y'icyatsi uryamye ku gitanda, iruhande hahagaze umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi ndetse n'uturindantoki tw'umweru, umuganga umwe w'umudamu arunamye ari gutegura ibyuma byifashishwa n'abaganga mu kubaga umurwayi.

Abaganga bambaye ingofero z'umweru, impuzankano y'umweru, ndetse ku maboko bambaye n'uturindantoki dufite ibara ry'icyatsi, abandi bahetse amapombo bavura indwara zitandukanye.

Abantu barindwi bicaye hamwe, bari kuganira, harimo umugore umwe n'abagabo batandatu, umugabo umwe yambaye ijile y'umutuku, amaboko yamanuye, ayafatisha ku mavi, yegamiye ku nzu yubakishije amatafari.

Abagabo babiri bari mu kigero cy'imyaka nka mirongo ine, umwe yambaye ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umutuku, bateruye umwana ku gatanda, ahantu bari gucya hari intebe nyinshi zitondekanyije z'amafomo.

Inzu nziza y'ibitaro yubatse neza isakaje amabati y'umutuku, ifite irange ry'umutuku n'umuhondo, ku kumuryango wayo ifiteho inzugi zifite ibara ry'umukara, imbere yayo haparitse imodoka nziza ya ambiranse itwara abarwayi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bizihiwe bari kuganira. Harimo abantu bakuruye amahene umugore umwe akuruye ihene ifite ibara ry'umukara, ndetse n'umweru buri wese ari kureba imbere ye bigaragara ko baje kuziteza urukingo.

Abasore babiri bambaye ingofero z'umukara ndetse n'udupfukamunwa, bambaye imipira y'umutuku, bicaye mu tugare tw'abafite ubumuga, inyuma yabo hahagaze abagabo babiri bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ririmo amazi.

Abantu b'ingeri nyinshi zitandukanye bicaye mu ntebe zo kwegama buri wese ku ntebe ye, harimo abambaye udupfukamunwa bari kureba imbere, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hirya hahagaze umugore wambaye igiteteyi ndetse n'akantu mu ijosi yambaye agapfukamunwa, afite mikoro mu kaboko ke kamwe akandi gafashe ibipapuro ari kubabwiriza ibintu binyuranye.

Abantu benshi bahagaze ku ruziga, harimo abagabo n'abagore, barishimye cyane, barimo guseka, bari kureba imbere wagira ngo bari kwifotoza, inyuma yabo hari inyubako nziza ifite amarangi y'ubururu, inzugi zayo zirakinguye.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bizihiwe b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo, harimo umugabo umwe wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoboyi, afashe mu biganza bye ibitabo ndetse umugabo undi yambaye ishati y'umutuku, yambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zitandukanye. Gifite amabara y'umutuku, ndetse hari icyuma bicaraho bakanegamaho kugirango babashe gusuzumwa neza.

Ihuriro ry'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe abagabo n'abagore, imbere yabo hahagaze umugabo ubyibushyehe yambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'amaboko maremare, afashe telefone mu kiganza ke kimwe ikindi yakizamuye arimo kuvuga.

Icyumba giteguye neza kirimo ibitambaro by'ubururu, abagore bicaye umwe yambaye isengeri y',umutuku undi ahahagaze yikenyeje igitenge ahetse umwana mu mugongo, arimo kuganiriza undi begeranye.

Abantu bane bahagaze ku murongo umwe, abagabo batatu n'umugore umwe, barimo kuganira, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye inkweto nziza y'umukara, ikoboyi ndetse n'agapira k'amaboko magufi, hirya ye hari imodoka nziza, itwara abarwanyi.

Umusore wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'ikoti rya kayaki, ari kuganiriza umukobwa wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hahagaze umusore ufashe ku rugi, wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga kigaragara neza, gifite ibirahure byiza biriho ibitambaro ndetse gifite amarangi y'umweru, igitanda gishashe neza, kiriho amashuka y'ubururu ndetse n'umusego, kiryamwaho n'abarwayi kwa muganga.

Abantu benshi bahagaze hanze y'ivuriro harimo abagabo n'abagore, abenshi bambaye udupira tw'umweru, bafite ibyapa byanditseho ibintu binyuranye, barimo kureba imbere kandi bose barabyishimiye.

Icyumba kiza giteguye neza gifite irangi ry'umweru, imashini nziza yifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zitandukanye ifite aho kwicara ndetse no kwegamira, umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ijipo y'ubururu.

Abantu benshi bicaye, higanjemo abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu, amaboko yabo bayafatishije ku mavi, bazengurutswe n'abantu benshi bahagaze, bishimye, barimo kuganira, bamwe baripfumbase.

Icyumba cyiza giteguye neza kirimo ibikoresho ndetse n'imashini byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, agatanda gashashe neza karyamwaho n'abarwayi kugira ngo muganga abashe kubasuzuma.

Ihuriro ry'abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagabo n'abagore baricaye, higanjemo abambaye imyenda y'umweru barimo kureba imbere, hahagaze umugabo ufite umusatsi mukeya wambaye ishati y'amaboko magufi arimo kubaganiriza.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, higanjemo abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu, bari barambiririje amaboko yabo bayafatisha ku mavi ndetse hari n'abandi benshi bahagaze inyuma yabo babakikije.

Abaganga bahagaze ku murongo umwe, abagore babiri n'umugabo umwe, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero, impande yabo hari igitanda gisashe neza ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye.

Inzu nziza y'ibitaro ifite amarangi y'umweru iri kugaragara neza, umugabo wicaye wambaye ishati y'umukara, umuganga uhagaze wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'abagore babiri bahagaze imbere ye.

Umuganga wicaye ku ntebe ifite aho kwegamira, yambaye impuzankano y'ubururu, yiteze igitambaro ndetse yambaye n'amaherena mumatwi ,ibiganza bye yabirambuye ku meza ,afashe ikaramu arimo kwandika.

Umugabo wambaye ingofero ndetse na marinete, yambaye ishati y'ubururu irimo amabara y'umweru ashyize ibiganza kumeza, imbere ye hari abaganga babiri, umugabo n'umugore bari kumwandikira imiti itandukanye.

Ahantu hubatse neza hariho amapave, imodoka iparitse ifite ibara ry'umweru, inzu nziza zubatse ziteganye zisakaje amabati y'ubururu ndetse zifite amatafari adateyeho umucanga, ziri kugaragara neza.

Icyumba cyiza giteguye neza kiriho ibintu byinshi ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ikiganza cyambaye akarindantoki k'ubururu gifashe urushinge kiri kuruvomamo umuti.

Umuganga w'umugore ufite imisatsi mikeya ari kureba imbere yambaye impuzankano y'umweru yambaye n'uturindantoki afashe urushinge mu ntoki ndetse n'icupa ririmo umuti ari gusuzuma kugira ngo amenye icyo uwo muti uvura.

Icyumba kiza giteguye neza kiri kugaragara neza kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye. Muganga wambaye agapfukamunwa k'umweru n'impuzankano y'umweru, yambaye uturindantoki afashe urushinge mu kiganza.

Umuganga w'umudamu wicaye yambaye ishati y'umweru ,afite imisatsi imeze neza iruhande rwe hicaye abantu babiri, imbere ye har'imeza iriho urupapuro rw'umweru, ndetse n'rw'ubururu hateretse icupa ry'umweru ,rifunikishije umufuniko w'umutuku.

Ahantu hateguye neza hari kugaragara neza, umuganga wambaye uturindantoki uri gushyira umuti mu rushinge, iruhande rwe hari ibipapuro by'umweru, imbere ye hariho umuntu wamuhereje ikiganza wambaye umupira w'icyatsi.

Umuntu wambaye uturindantoki tw'umweru, ibiganza bye yabishyize imbere ndetse hirya hari ikindi kiganza gifashe ku biganza bye, imbere ye hateretse ameza meza y'igiti, arambitseho urupapuro rw'umweru ndetse n'akandi kantu kifashishwa n'abaganga.

Umuganga urimo gutunganya umuti, yambaye akarindantoki ndetse yambaye n'itaburiya y'umweru, afite urushinge mu ntoki ze arimo gushyiramo umuti kugira ngo abone uko awutera mu mubiri w'umurwayi.

Icyumba giteguye neza kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zitandukanye, umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru yicaye ku ntebe y'umukara ifite aho kwegama ari kureba muri mudasobwa.

Abantu batato bahagaze ahantu hamwe bari kwitegereza imbere yabo umugore umwe afite imisatsi yarayipfunditse, bambaye imyenda y'umweru biragaragara ko ari abaganga bari kureba imbere bari gusuzuma ibikoresho byo kwa muganga.

Icyumba cyiza, giteguye neza, kirimo ibyuma bitandukanye ndetse icyuma kimwe gifite urumuri hejuru, rwifashishwa n'abaganga mu gukora imiti no gusuzuma indwara zitandukanye, zifata abantu.

Amashuri meza yubatse neza afite ibirahure bifite irangi ry'ubururu, yubakishije amatafari arazitiriye, hateye ibiti byiza biri kugaragara neza, abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru n'amapantaro y'ubururu bari ku murongo, imbere yabo hagaze umwarimu w'umugore arimo kubigisha.

Abenshi n'abamama babo bafashe amasahani y'ibiryo, abana bicaye kumeza bagiye kubagaburira kugira ngo babone imfashabere n'intungamubiri zitandukanye zibafasha kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye ikoboyi ndetse n'umupira w'ingofero afashe indobo irimo amazi ndetse n'ibase, imbere ye hari abana benshi bari ku muronko ari kugenda abakarabya. Ni byiza gukaraba intoki nyuma y'uko tumaze kurya kugira ngo twirinde gukwirakwiza umwanda.

Inzu nziza, yubatse ahantu heza, iri kugaragara neza, isakaje amabati y'ubururu, izengurutswe n'ibiti byiza, ihagaze ku nkingi z'umweru, izindi zifite ibara ry'ubururu, ibirahure byayo biragaragara neza, hanze yayo ifiteyo ikigega cy'umukara.

Abana benshi bari mu kigero kimwe, bicaye ku ruziga ku gakeka, buri mwana afite agakombe mu ntoki ze, bari kugenda banywa agakoma, hagati yabo hari umusore wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, arapfukamye, ari gusukira umwana igikoma mu gakombe.

Abana bicaye ku meza atandukanye, bari kurya, barishimye cyane, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ijile ifite amabara y'icyatsi n'agapira k'ubururu k'amaboko magufi, yambaye n'ipantaro y'umukara.

Ihema ryubatse neza riri kugaragara neza rifite ibara ry'icyatsi, ryicayemo abantu higanjemo abambaye udupira tw'icyatsi, barizihiwe barimo kuganira, imbere yabo hateretse ameza ayariho amacupa menshi y'amazi.

Amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, yanditse uruhande rw'ubururu, ikirango kiza gishushanyijeho umubu ndetse umuntu uryamye ku gitanda kimanitseho inzitiramubu n'umuntu uri gukoropa ahantu kugira ngo hagire isuku.

Icyumba giteguye neza gifite irangi ry'ubururu, igitanda gishashe neza gifite n'umusego, umugore wicaye urimo guseka yambaye ishati y'amaboko magufi, akenyera igitenge, mu biganza bye ateruye uruhinja mu gitambaro.

Inzu nziza isakaje amabati y'ubururu imbere yayo hahagaze abantu benshi higanjemo abana bambaye imyenda myiza barikumwe na ba mama babo ndetse n'abagabo bambaye udupira tw'ubururu barimo kuganira.

Abanyeshuri bari mu ishuri barishimye bambaye impuzankano y'umweru, imbere yabo hahagaze umwarimu hirya hari ikibaho, uwo mwarimu yambaye ijire y'umuhondo ndetse n'umupira w'amaboko magufi w'icyatsi.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo: abagore, abagabo n'urubyiruko baricaye, bari kureba imbere amaboko yabo bayashyize ku meza, umwe afite ikaramu arimo kwandika, undi yazamuye ibiganza bye abifatisha ku matama, bari kureba imbere, ibyo bari kureba barabyishimiye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bambaye neza harimo abambaye icyatsi, umukara umutuku higanjemo abagabo n'abagore bahananitse ibiganza byabo barimo kureba imbere barizihiwe, inyuma yabo hari inyubako nziza ifite amabara meza.

Abantu benshi bizihiwe bateraniye ahantu hamwe higanjemo abagore, imbere yabo hari umu umugore ufite imisatsi waziziritse yambaye ishati nziza y'amaboko maremare afashe mikoro mu biganza bye arimo kuvuga.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko bahagaze ahantu hamwe mu gacaca, bamwe bambaye inkweto z'umukara n'amashati y'umweru barimo kuganira bareziwe, inyuma yabo hahagaze abantu batatu hariho umugabo wambaye ikoti ry'umukara amaboko ye yayasize inyuma ndetse n'umusore wambaye imyenda y'umukara wafatishije amaboko ye mu mayunguyungu.

Abantu benshi bahuriye hamwe higanjemo urubyiruko, umwe yambaye agapira k'umutuku undi yambaye agapira k'umukara bafashe icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho kwamagana ibiyobyabwenge.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hamwe harimo abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko barimo kuganira barizihiwe, harimo abagabo bambaye ingofero abandi biteze ibitambaro hagati yabo hahagaze umugabo ufite mikoro arimo kuvuga.

Umugabo wambaye ishati y'umuhondo nikoboyi uhagaze uri kureba muri terefone, umugabo wambaye ikositimu y'umukara nishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara imbere ye yicaye umugore ufite imisatsi mikeya wambaye amarineti, imbere ye hari mikoro arimo kuvuga amaboko ye yayarambuye kumeza.

Abantu benshi bicaye, higanjemo abagabo, imbere yabo hari icyuma cya pOrojegiteri, gitunze ku kibaho, bari kureba imbere barishimye, bari gusoma amagambo yanditse imbere yabo.

Umugore wasutse imitsatsi, wambaye amaherena, yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko, ibiganza bye yabizamuye abifatisha ku miti iri mu macupa ari kugenda ayitondeka, imwe iri mu mabara y'umuhondo iyindi mu y'icyatsi, bigaragara ko ari ahantu habikwa imiti yifashishwa mu kuvura abantu.

Imiti myiza yamaze gutunganywa, imwe iri mu dushashi, yindi iri mu makarito isa umweru n’umukara, yifashishwa n'abaganga mu kuvura no kwita ku barwayi bafite indwara zinyuranye.

Icyuma giteguye neza kirimo imiti y'amoko atandukanye, umuganga uri kwandika imiti kugira ngo abashe kuyiha umugore umwicaye imbere wambaye agasengeri ukenyeye igitenge iruhande rwe hari umwana muto.

Imiti iri mu makarito amwe afite ibara ry'icyatsi n'umuhondo hashushanyijeho inka nziza y'inzungu iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara ikiganza cy'umuntu gifashe ku mufuniko w'icupa ririmo umuti.

Inyubako nziza ifite amakaro iri kugaragara neza ifite ibara ry'umweru, imiti ipanze neza imwe iri mu macupa iy'indi iri mu makarito bifite amabara atandukanye icyatsi n'ubururu yamaze gutunganywa kugira ngo izabashe kuvura indwara zitandukanye.

Inzu nziza irimo amoko y'imiti itandukanye yamaze gutunganywa imwe iri mu makarito indi iri mu macupa yifashishwa n'abaganga mu kuvura neza no kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Imiti itandukanye y'amoko atandukanye, ifite amabara atandukanye, iri ahantu hamwe, imwe ifungiye mu dushashi, ni ibinini indi n'imiti iri mu macupa, yateguwe neza kugira ngo yifashishwe mu kuvura abarwayi.

Icyumba kiza giteguye neza kirimo imiti ipanze neza ku murongo hariho iri mu macupa indi iri mu makarito, imashini iteretse ku meza ndetse n'umugore wambaye ikanzu y'umukara, yambaye amaherena afite n'umusatsi muke.

Inzu nziza isakaye irimo amoko y'imiti itandukanye, imwe iri mu makarito iy'indi iri mu macupa y'icyatsi ashushanyijeho ibyatsi, indi iri mu macupa y'umukara afunikishije imifuniko y'umweru.

Inzu nziza yubatse neza iri kugaragara neza, icyumba cyiza giteguye neza, kirimo imiti y'amoko atandukanye imwe ipfunitse mu mashashi, indi iri mu macupa y'amabara atandukanye yamaze gutunganywa kugira ngo izifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti myinshi iri mu mabara atandukanye: y'umweru, icyatsi, umutuku. Ifunitse mu dushashi twayo yamaze gutunganywa kugira ngo izifashishwe n'abaganga mu kuvura abarwayi bafite indwara zitandukanye.

Icyuma cyiza, giteguye neza, kiri kugaragara neza, kirimo intebe yo kwicaraho, ifite aho kwegamira, imiti iri mu macupa ndetse n'indi ipfunitse mu mashashii n'iri mu makarito, yamaze gutegurwa kugira ngo ibashe kuvura abarwayi.

Inyubako nziza irimo imiti y'amoko atandukanye ifungiye mu macupa y'umutuku, umuhondo, ubururu, yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zigenda zifata ibice by'umubiri.

Icyumba cyiza giteguye neza cyubatse neza, kirimo imiti y'amoko atandukanye, imwe iri mu macupa, indi iri mu makarito yamaze gutunganywa kugira ngo yifashishwe mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye.

Igishushanyo cy'ibara ry'ubururu cyanditseho insanganyamatsiko, hagati harimo udufoto tubiri tw'abagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru ifite akarongo k'ubururu, yambaye amarinete, undi yambaye ishati nziza irimo amabara y'umutuku ari fumbase.

Abantu benshi bicaye mu ihema, bambaye impuzankano y'udupira tw'umweru, barimo kuganira barizihiwe, umugabo umwe aripfumbase arimo kureba imbere, undi yakebutse arimo kumureba imbere yabo hateretse ameza.

Nziza y'ubururu ishushanyijemo amagambo manini yari mu ibara ry'umweru yitwa ha na da na ayi, ndetse n'andi yandikishije mu ibara ry'ubururu hasi ifite imibare yanditse mu magambo y'umweru makumyabiri na gatatu ra na da.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye higanjemo abasore bambaye amashati y'ubururu, bafashe icyapa cyanditseho amagambo ubuzima bwanjye mu nyuguti z'umweru, ibyo bari gukora barabikunze kandi barabyishimiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe urubyiruko abagore abagabo, barimo kuganira barizihiwe benshi baricaye bazamuye amaboko yabo bamwe bayafatisha ku maguru barimo kureba imbere, hagati yabo hari icyapa gifite ibara ry'umutuku.

Abantu benshi bahagaze ku murongo umwe, harimo abazungu n'abirabura, abagore n'abagabo, bishimye cyane bari kureba imbere, inyuma yabo hari icyapa kinini kifite amabara y'ubururu ndetse n'ibiti byinshi b'inganzamarumbo.

Umuganga wumugore ufite imisatsi, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye n'uturindantoki twe ari gufungura umuti kugira ngo abashe kuwusuzuma neza uzamufashe mu kuvura abarwayi.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagabo n'abagore n'urubyiruko, bicaye ahantu hamwe hariho ibiti bitandukanye, barimo kuganira bariziwe abenshi bicaye barambirije imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikoboyi n'ijire y'umukara afite imisatsi.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagabo n'abagore bateraniye ahantu hamwe barimo kuganira, imbere yabo hari abantu bicaye ku ruziga harimo abaganga, imbere yabo ku meza hari imiti barimo kugenda bayibasobanurira, ku buryo bazayikoresha mu buryo bwiza.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bambaye udupfukamunwa, higanjemo abapolisi ndetse n'abaturage barimo kuganira, barareba imbere yabo imiti izifashishwa mu kuvura amatungo.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe mu matsinda abagore n'abagabo barimo kuganira, barizihiwe, hari umugore umwe ufite umusatsi w'umukara, yambaye ikoti ry'umukara ndetse hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara urimo kuberekeza ibyo bakora.

Ahantu heza hariho imiti ifite amabara y'umukara, aya kaki ndetse n'ibibabi birambitse bifite amabara atandukanye bizatunganywamo umuti uzifashishwa n'abavuzi ba gihanga mu kuvura indwara zitandukanye.

Abantu babiri umugabo n'umugore umwe yambaye ibirenge undi yambaye kamambiri, umugabo afashe akayunguruzo, umugore afashe igikombe kirimo umuti arimo kuwusuka uyungururwa kugira ngo utunganwe neza wifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti myinshi ya gihanga iri mu mabara atandukanye, iri mu dukangara tunyuranye iragaragara neza, imwe ifite amabara y'umuhondo, iyindi aya kaki, iyindi y'icyatsi, yamaze gutunganywa kugira ngo izifashishwe n'abaganga ba gihanga, mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti iri mu dukangara y'amoko atandukanye, harimo iy'umukara, iy'ibihogo, iy'umweru, zifashishwa n'abavuzi ba gihanga mu kuvura indwara zitandukanye zifata abantu ndetse n'izifata amatongo.

Agakoresho kifashishwa n'abaganga mu gupima kugira ngo bamenye umuriro umurwayi afite, urushinge ndetse n'akamakasi n'utundi dukoresho turi ahantu hamwe hasa neza twifashishwa n'abaganga mu gusuzuma abarwayi.

Ibyatsi byiza bitohagiye, harimo ibifite ibara rya orange, n'ibindi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, biragaragara neza, byitaweho, byaruhiriwe, kugira ngo bizabashe gutunganywamo umuti uzifashishwa n'abavuzi, mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa riri mu ibara ry'icyatsi ripfundikije umufuniko w'icyatsi, rifite ikirango gishushanyije mu ibara ry'icyatsi ryanditseho umuravumba, bigaragara ko ari umuti wamaze gutunganywa kugira ngo uzifashishwe n'abavuzi mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti myinshi iri mu dukangara ifite amabara atandukanye, harimo iy'umukara tsiriri, ndetse n'iy'umweru zamaze gutegurwa kugira ngo zifashishwe n'abavuzi ba gihanga mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa rifite ibara ry'icyatsi, rifunikishije umuvufuniko w'icyatsi, rifiteho icyapa, cyanditseho umuravumba, bigaragara ko ari umuti wamaze gutunganywa kugira ngo wifashishwe n'abavuzi ba gihanga, mu kuvura indwara zitandukanye.

Isekuru ishaje iteretse ku butaka irimo umusekuzo wayo ndetse n'ibyatsi, umugabo uri gusekura uhagaze wambaye ibirenge, yambaye ipantaro y'umukara iruhande rwe hateretse ameza.

Umugore wicaye wikenyeje igitenge cy'umuhondo, iruhande rwe hariho igisafuriya kirimo itaka, mu kiganza cye harimo ibintu byo ari gukamurira mu gikombe, hino hateretse icupa ririmo ibintu imbere ye hateretse igicuma.

Abantu benshi bambaye imyenda itandukanye bahuriye ahantu hamwe. Higanjemo abagore bari kureba imbere ku nzu isakaje amabati y'ubururu ifite amarangi y'ubururu. Iriho icyapa kiriho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

inzu nziza, yubatse neza, ifite irangi ry'ubururu, riri kugaragara neza, isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hahagaze abantu benshi barimo kuganira, bizihiwe n'ibyo barimo kuvugana.

Umuganga wicaye wambaye impuzankano y'umweru, yambaye agapfukamunwa, afite imisatsi mikeya, yambaye n'uturindantoki, amaboko ye yayashyizeze ku meza, imbere ye hari urupapuro rw'umweru, ari gufata ku biganza by'umukobwa wicaye wambaye agapfukamunwa, ufite igitambaro mu ijosi, ndetse nyuma y'uwo mukobwa hahagaze mama we.

Icyapa kiyiza, kiri kugaragara neza, kiriho inyubako nziza, iteye amabengeza ndetse n'amagambo yanditsewe mu ibara ry'umukara, abagabo babiri bahagaze, bari kwitegereza imbere yabo ndetse n'abana benshi, bari gukina agapira.

Abantu batatu bicaye ndetse n'umugore uhagaze imbere yabo wambaye igitenge cyiza n'ikarita y'akazi afite imisatsi, afashe igipapuro mu kiganza cye ari kwigisha abo bagore bamuteze amatwi umugore umwe yambaye akantu k'umutuku, undi yambaye ak'icyatsi mu ijosi, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi by'amabara atandukanye.

Icyapa gishinze ahantu mu kinani kiriho umusaraba ushushanyije mu ibara ry'umweru n'amagambo ya rafa kiriniki, ari mu ibara ry'ubururu n'andi magambo menshi ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu atandukanye.

Abantu bari kumurongo higanjemo abakecuru biteze ibitambaro, biteye imyenda, imbere yabo hari umugabo wambaye ikositimu, ikoti ry'umukara, ishati y'umutuku, uri gukomanga ku rugi.

Imiti myinsi ipanze neza iri mu macupa imwe iri mu macupa y'umukara tsiriri, afunikishije imifuniko y'umutuku, afite ibyapa byanditseho amagambo menshi, uruhande hamwe hariho ari mu bururu ashushanyijeho neza ibintu biri muri ayo macupa.

Icyumba cyiza kiri kugaragara neza gifite irangi ry'umweru, umugore wicaye ku ntebe ifite aho kwegamira yambaye itaburiya y'umweru ari kuri mudasobwa iruhande rwe hariho urupapuro rw'umweru n'ikaramu ya bike.

Imiti myinshi, ipanze neza, iri mu mashashi, itandukanye, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, yifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi, hari n'indi ku ruhande iri mu icupa ry'icyatsi.

Umugabo uhagaze ahantu heza yambaye taburiya y'umweru, ndetse na marinet, imbere ye hari ameza hateretse imiti y'amoko atandukanye iri mu mumacupa, ndetsehino hari impapuro ziri kumeza, imbere ye hahagaze umugore wambaye ikanzu ifite amabara'umutuku, arimo kumuhereza amafaranga.

Abantu bane bari ahantu hamwe, abagabo babiri n'umugore umwe bicaye, n'undi mugore uhagaze, abagabo babiri bambaye amashati y'umweru ndetse n'umugore umwe yambaye itaburiya y'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho ibirahure bibiri.

Inyubako nziza isakaje amabati y'umweru ifite amatafari ahiye, imbere yayo hari umugore uhagaze ku kirahure ahetse umwana yambaye umupira w'umutuku yiteze n'igitambaro, inyuma ye hicaye abagore babiri umwe akikiye umwana.

Icyumba kiza giteguye neza abantu benshi bicaye ku ntebe ifite aho kwegamira harimo abagore n'abagabo abagore biteze ibitambaro ndetse abagabo bambaye ingofero bafashe impapuro z'umweru mu ntoki zabo.

Umukobwa ufite imisatsi yambaye ishati y'umweru ya'amaboko magufi imbere ye hateretse mudasobwa irimo kwaka, ari kuyirebamo ikiganza yakizamuye agikoza kuri mudasobwa, iruhande rwe hari impapuro nyinshi z'umweru.

Abantu benshi bicaye mu ntebe, harimo abagore biteze ibitambaro ndetse n'abagabo. Imbere yabo hahagaze umugore ufite ikarita y'akazi mu ijosi arimo kubaganiriza ndetse yicaye umugore. Imbere ye hatereretse icupa n'undi mugabo uhagaze wambaye agapira k'amaboko maguru.

Amazu meza yubatse ahantu heza. Asakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari. Imbere yayo hari ahantu hubatse neza. Hari umugezi ufite ibara ry'umweru, usakaje amabati.